Mu mashuri yigisha abana b'inshuke haba hari udukoresho tugiye dutandukanye dufite amabara menshi atandukanye ku buryo utu dukoresho n'aya mabara babyifashisha bigisha abana kubara ndetse no kumenya amabara.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho akaba ari inyubako y'ishuri, ikaba iteye irange ry'umweru ndetse hakaba hashushanyijeho ibishushanyo bigiye bitandukanye bigaragara ko higiramo abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho akaba ari inyubako y'amashuri y'inshuke, ikaba isakaje amabati y'ubururu ndetse yubakishije amatafari ahiye ikingishije ibyuma.

Ikigo cy'amashuri kiba cyubatswe neza cyane, aho kiba cyubakishije amatafari ahiye ndetse gisakaje amabati y'ubururu, haba hariho n'utwuma tw'amatibe, tuba turi mu mabara agiye asa ubururu, hariho n'utuyira abanyeshuri banyuramo.

Mu mashuri y'inshuke haba hari ibipupe bigiye bitandukanye abarimu bifashisha bari kwigisha abana kugira ngo abana bakanguke mu bwonko kandi babashe kwishima, banezerwe n'ibyo barimo kwiga.

Abana bari kurya umunyenga ku myicundo bigaragara ko ari abana biga mu mashuri y'inshuke, iyi myicundo dukunda kuyisanga ku bigo bifite amashuri y'inshuke, aho abana bajya kuri iyi minyega bakishima.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bigezweho akaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri, aho ari ishuri ryigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, hakaba hari ubusitani bwiza cyane.

Mu mashuri yigisha abana b'inshuke haba hari ibikoresho byinshi bigenda bitandukanye abarimu bifashisha bari kwigisha abanyeshuri kugira ngo abanyeshuri babashe kumva neza ndetse banasobanukirwe ibyo bari kumva.

Abana bagera muri babiri bakaba bicaye bafite akawunga mu ntoki bari kurya ndetse mu maso yabo hakaba hatagaragara neza kuko bahatwikirije ibintu bya mpande enye, bigaragara ko biga mu mashuri y'inshuke.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bakaba bari mu nama higanjemo abasirikari ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye, aho imbere hahagaze abagabo ndetse n'umusirikare umwe n'umudaso bari mu cyumba k'ishuri baje kureba uko abana biga.

Mu mashuri y'inshuke haba hari ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha bigisha abana, aho haba harimo amashusho y'inyamaswa zigiye zitandukanye, uyu mwana rero ari kwiga areba ku mashusho y'udusumbashyamba, intare, inzovu, impara, ingwe ndetse n'imparage.

Udukapu tugiye dutandukanye dukunze kuba dufitwe n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho badutwaramo amakayi, hanyuma bakaduheka wababona ukabona baraberewe.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bakunze kwigishwa amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, aho harimo ibikururanda, bigira urutirigongo ndetse n'ibitagira uruterigongo.

Mu mashuri y'inshuke hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye bakunze kwifashisha bari kubigisha kugira ngo abana bajijuke mu mutwe ndetse no mu mitekerereze, kuko ibi bikoresho biba biri mu mabara agiye atandukanye.

Abana biga mu mashuri y'incuke, baba bafite ibikinisho byabugenewe abarimu bifashisha bari kubigisha, aho ibi bishushanyo biba biri mu mabara agiye atandukanye y'icyatsi, ubururu, umuhondo ndetse n'ayandi.

Mu mashuri y'inshuke bakunze kwigishamo ibimera byinshi bigiye bitandukanye abana byabafasha kuba bamenya kubara, gusoma no kwandika ndetse no kuvuga neza Ikinyarwanda. Muri ibi bimera twavugamo nk'ibiti ndetse n'ibishyimbo.

Amashuri abanza baba biga ibintu bigiye bitandukanye bakoresheje imibare aho iyi mibare bagenda bari kuzibarisha mu mabara agiye atandukanye kugira ngo abana babashe kujijuka.

Mu mashuri abanza haba hari ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye by'inyajwi aho babyifashisha bari kwigisha abana bakaba bagenda bahuza utwo dupupe hanyuma tukabyara ijambo runaka.

Mu mashuri abanza hakunze kuba hari ibipapuro bimanitse ku bikuta bigiye byanditseho amagambo agiye atandukanye umwarimu yifashisha ari kwigisha abanyeshuri kugira ngo babashe gufata neza kandi batsinde.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho akaba ari inyubako y'ishuri aho higiramo abana biga mu mashuri abanza, aho hifashishwa aya mabara atandukanye kugira ngo abana bigishwe amoko y'amabara.

Mu mashuri abanza bakunda kwiga ibintu by'imyandiko aho haba hari umugore n'umugabo bambaye imyenda runaka, amagambo bari kuvugana agiye yandika mu utuzu maze nabo bakitoza kuyasoma bayasubiramo.

Amazu menshi agiye atandukanye, aho agiye ateye amabange y'umweru hagati y'ayo mazu harimo ubusitani bwiza cyane bubengerana ndetse harimo n'akayira abanyamaguru banyuramo gashashemo amapave.

Hari amoko agiye atandukanye y'amakaramu abanyeshuri bifashisha. Hari amakaramu y'ibiti azwi nk'abakereyo bifashisha bari kwandika, kugira ngo babashe kumenya gushushanya mu mashuri abanza.

Mu mashuri abanza hari uburyo bakoresha bigisha abana kugira ngo babashe gufata neza. Aho haba hari ibishushanyo, byanditseho imibare ndetse no mu mabara atandukanye, abanyeshuri bifashisha bari kwiga.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bakaba bari mu myitozo ngororamubiri bakaba bari mu kigo cy'amashuri abanza, aho hari inyubako zubatse neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ifite ibikuta biteye amarange y'umweru ndetse n'umuhondo, akaba ari mu ishuri ry'amashuri abanza aho harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, umwarimu yifashisha ari kwigisha abanyeshuri.

Abana biga mu mashuri abanza bahagaze bari ku murongo imbere yabo hahagaze abarimu babiri bambaye amataburiya n'amakanzu, aho bari kugenda babakoresha umurongo. Umwana umwe muri bo afashe ku ibendera.

Agasanduku abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakunze kwifashisha, aho kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha biga isomo ry'Imibare. Aho haba harimo irate agacaruziga, ikaramu y'igiti n'ibindi.

Hari agasanduku abanyeshuri bakunda gukoresha biga mu mashuri abanza, tuba karimo ibikoresho byose bifashisha bari kwiga isomo ry'imibare, aho haba harimo irati, agacaruziga, ikaramu y'igiti n'ibindi.

ikigo cy'amashuri abanza gikunze kwifashisha ibikoresho bigiye bitandukanye iyo bari kwigisha abana isomo rya siyiyanse, aho muri ibyo bikoresho barimo inyundo, urukero mutobozi ndetse n'ibindi.

Hari uburyo bwinshi bwo kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho bakoresha kano kantu gakozwe mu buryo bw'amayobera, babigisha gukuba guteranya no kugabanya ndetse no gukuramo.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho aho zisakaje amabati y'ubururu, zikaba zubakishije amarange asa umweru n'amatafari ahiye zikaba ziteye amarange y'ubururu ku nzugi, akaba ari mu kigo cy'amashuri abanza.

Inyubako nziza cyane zisakaje amabati y'ubururu ndetse zifite n'ibikuta by'umweru, zifite n'ibigega hari ubusitani bwiza cyane burimo idarapo ry'u Rwanda, hari abanyeshuri bari kujya ku ishuri ndetse n'abarimu babo.

Ku ishuri mu kigo cy'amashuri abanza, haba harimo ibitabo by'amasomo agiye atandukanye abanyeshuri bifashisha bari gusoma kugira ngo babashe kumenya gusoma ndetse no gufata mu mutwe.

Umwarimu uri mu ishuri aho yashushanyije ku kibaho igishushanyo cy'umutima akaba ari kwigisha abanyeshuri uko umutima utera kugira ngo babashe kumva kandi bakurikire batsinde.

Hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye bifashisha bari kwigisha abana biga mu mashuri abanza ndetse n'akamaro kabyo, muri ibyo bikoresho twavugamo nk'inkweto za bote, udupfukantoki ndetse n'udupfukamunwa.

Mu mashuri abanza haba hari ibikoresho byinshi by'amabara agiye atandukanye bifashisha bari kwigisha abana kumenya kubara ndetse no kumenya amabara akoreshwa uko angana, aho aba ari mu mabara atandukanye.

Mu mashuri abanza haba hari udutabo twabugenewe abarimu bifashisha bari kwigisha abanyeshuri kugira ngo babashe gusoma udukuru, kano gatabo rero kakaba gashushanyijeho abantu hejuru kanditseho ngo Gasaro n'abajura.

Mu mashuri abanza haba harimo amoko agiye atandukanye y'ibipupe ndetse n'ibishushanyo, abanyeshuri bifashisha bari kwiga kugira ngo babashe kumenya amabara menshi agiye atandukanye.

Mu mashuri abanza haba hari amashusho agiye atandukanye, mu mabara ndetse no mu ngano aho byifashishwa bigisha abanyeshuri kubara ndetse no kumenya ubwoko bw'amabara.

Hari ibikoresho abanyeshuri biga mu mashuri abanza bifashisha bari kwiga isomo ry'imibare, aho ibi bikoresho biba birimo ibikoresho bifashisha nk'amarati, uducaruziga ndetse n'amakaramu y'ibiti.

Inyubako nziza cyane igezweho akaba ari ku kigo cy'amashuri, hakaba hari ubusitani bwiza cyane ariko butari bwafata ndetse izi nyubako zikaba zifite umuryango ufungishijwe ibyuma uganayo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ari inyubako y'ishuri, mo imbere hakaba harimo ibikoresho byose nkenerwa, harimo n'abanyeshuri bicaye ku ntebe bari kugenda basubiramo amasomo yabo.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, bambaye impuzankano z'ishuri aho bicaye ahantu bakaba bari kwifotoza bishimye kandi banezerewe.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho akaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri yisumbuye, hakaba hari imbuga ngari ariko idateyemo ubusitani ndetse hirya ari ibiti birebire bizana umuyaga n'amahumbezi.

Ikigo cy'amashuri cyateraniyemo abanyeshuri benshi biga ibijyanye n'imyuga n'ubutekinisiye, cyane cyane abiga ibijyanye gukandika umuriro w'amashanyarazi, bakaba bambaye amajiri, bari kwiga ibijyanye n'ubumenyin ngiro.

Abanyeshuri bicaye mu cyumba bakaba bari gusubiramo amasomo yabo, bakaba bambaye amashati y'umweru ndetse n'udupfukamunwa bari kwiga ikoranabuhanga hifashishijwe mudasobwa kugira ngo bajyane n'Isi ya none.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bigaragara ko ari abanyeshuri bigisha mu mashuri yisumbuye bigisha ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro aho bambaye ingofero n'amajire yabugenewe bari kuganira n'abayobozi babo.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri aho imbere hari babiri muri bo uw'umuhungu n'uw'umukobwa bakaba bari kubasobanurira ibintu runaka abandi na bo babakurikiye.

Abanyeshuri bicaye mu cyumba k'ikoranabuhanga aho buri wese imbere ye afite mudasobwa ndetse n'icupa ry'amazi, bakaba bari kwiga gukoresha mudasobwa kugira ngo bajyane n'ibigezweho.

Abantu bateraniye hamwe bakaba ari abo mu kigo cy'amashuri, aho harimo umwarimu uri guhereza umunyeshuri agashorori karimo ibiryo, umunyeshuri nawe agaterura kugira ngo akamujyanire aho ashaka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho y'urupangu, aho rukikije ikigo cy'amashuri, mo imbere harimo ubusitani bwiza cyane ndetse n'imyicundo abana biga mu mashuri matoya bariraho iminyenga.

Abanyeshuri benshi biga mu mashuri yisumbuye aho bicaye ku ntebe zabo bicaye ahantu munsi y'igiti barabye imbere bakurikiye umugabo uhagaze wambaye amadarubindi ufite indangururamajwi mu ntoki ari kubagezaho ijambo.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri aho yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite inzugi zisa ubururu, iyi nyubako rero ni nziza cyane kuko ifite n'ikigega gitangira amazi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ariko bambaye impuzankano zigiye zitandukanye bigaragara ko biga mu bigo bitandukanye bakaba bahagaze bari kwifotoza bafashe poze kuko ari abakobwa.

Abanyeshuri benshi cyane bicaye muri salle y'inama, aho bicaye neza bakurikiye, bakaba bari mu nama, imbere yabo hari umuyobozi uri kugenda abagezaho ikiganiro ariko nawe yiyicariye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri, aho hari ibendera ry'u Rwanda ndetse iyi nyubako ikaba iteye irangi ry'umweru ikingishije n'inzugi z'ibyuma.

Abanyeshuri bicaye hamwe aho bateze amatwi umuntu bahagaze imbere wambaye akajipo k'umukara n'agapira k'umweru w'igitsina gore, akaba ari kubagezaho ijambo runaka na bo bamuteze amatwi.

Abanyeshuri benshi cyane bicaye batandukanye aho bambaye impuzankano z'ishuri, bamwe bicaye mu busitani hagati yabo n'abandi bicaye kuri sima, hari akayira gashashemo amapave bigaragara ko bari mu nama.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bari kugenda bagenda umujyo umwe, aho bambaye impuzu mpuzankano z'amapantaro ya kaki ndetse n'udupira turi mu mabara y'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bakaba bari mu gikorwa cyo kudefanda cyangwa se kwambara, ibi bikorwa n'abanyeshuri barangije kaminuza aho baba bambaye amakanzu bishimye cyane.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro mu mashuri yisumbuye ndetse no mu mashuri makuru na za kaminuza, bakunze gukora ibibumbano by'abantu wareba neza neza ukagira ngo n'umuntu runaka ndetse n'isura igaragara.

Amashuri yigisha ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, bakunze kwigisha abanyeshuri ibintu by'ubukorikori, aho abo banyeshuri iyo bamaze kubimenya, bagenda babumbamo ibikoresho runaka bigiye bitandukanye by'amayobera.

Abantu biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro baba bazi gukora ibikoresho bigiye bitandukanye by'ubugeni, aho aza akabaza igikoresho yifashishije bimwe mu bikoresho nk'ibumba ndetse n'ibindi.

Abantu biga muri kaminuza ibijyanye n'ubumenyingiro, ndetse n'abize muri segonderi ibijyanye n'imyuga, baba bazi ubukorikori ku buryo bashushanya ibintu bigezweho bakagenda babimanika ku bikuta.

Abantu biga ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro mu mashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza, baba bafite ubuhanga cyane bwo gushushanya urusisiro runaka bakoresheje ikaramu, wabireba ukagira ngo ni ifoto bafashe.

Umuhanda ushashemo amapave ukikijwe n'uduyira tw'abanyamaguru aho imbere hari imodoka y'imbangukiragutabara iri kugenda muri uwo muhanda ndetse hari n'abantu bari kugenda mu tuyira tw'abanyamaguru.

Abantu benshi batandukanye, bahuriye hamwe mu gikorwa cyo kwambara amakanzu kizwi nka graduation, aho iki gikorwa cyabereye i Huye, aba bantu bose bambaye amakanzu kandi barishimye cyane.

Abantu biga imyuga n'ubumenyingiro bakunda kuvanayo ubuhanga bwinshi kandi buhanitse, aho hari uburyo bashushanya bifashishije amabara agiye atandukanye bakagenda bacora imirongo bari kugira ngo bashushanye uko imihanda igiye imeze.

Hariho ibikoresho byinshi biba bikozwe mu bugeni, aho ibi bikoresho akenshi bikunze gukorwa n'abanyeshuri baba barize mu mashuri y'imyuga, ndetse n'abize mu mashuri y'ubumenyi ngiro.

Abanyeshuri benshi cyane biga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Nyagatare, aho bicaye buri wese afite mudasobwa imbere ye ku ntebe, bakaba bari kugenda biga ibijyanye n'ikoranabuhanga rya mudasobwa.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho hari moto iri kugenda ihetse umugore ndetse n'imodoka iri kurenga hakurya mu rundi ruhande, uyu muhanda rero ukaba ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru.

Abanyeshuri baba barize mu mashuri atandukanye cyane cyane ayigisha imyuga ndetse n'ubumenyingiro, bakunze kuba bazi ubugeni, aho babasha gushushanya ibintu byinshi bigiye bitandukanye cyane cyane nk'amazu ndetse n'ibiti.

Umugore ushushanyije ahantu ku gikuta afashe telefoni ndetse n'agasakoshi, ntabwo biba byoroshye kubishushanya kuko uretse umuntu wize imyuga n'ubumenyingiro, mu mashuri makuru y'imyuga niwe ubishobora nta wundi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru ndetse ifite ibirahuri byiza bibonerana, ikaba ifite imbuga ishashemo amapave hasi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho ifite inzugi ziri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ibirahure byiza bibonerana, akaba ari inyubako ya Kaminuza y'u Rwanda.

Abantu biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro n'ikoranabuhanga mu Rwanda, bakunze kuba bazi ubugeni, aho ashushanya umuntu akoresheje ikaramu, ukaba wareba ukamenya isura ye.